Umwana w'umukobwa bigaragara ko ari koga intoki, yambaye impuzankano z'ishuri zifite umupira w'ubururu, ishati y'umweru, ijipo y'ubururu. Inyuma ye hari ibiti, amazu, ndetse n'imihanda; n'ikirere, ku buryo ubona yuko ari ahantu bigaragara ko ari mu kigo.

Itsinda ry'abantu bari hamwe bigaragara yuko ari mu biganiro runaka cyangwa se bari kwigishwa ibintu runaka, hari umumama wambaye amarinete yasetse. Inyuma ye hari abana ubona ko nabo bishimye cyane bitewe n'ibyo bari kubabwira.

Umwana w'umuhungu uri gukarabira intoki mu iriba, imbere ye hari indobo y'ubururu ndetse n'inyuma ye hari indobo y'ubururu, ari gukarababira ku iriba ryubakiye rikaba risize irangi ry'ubururu, inyuma ye hari umuhanda ndetse kandi hakaba n'ibiti n'inzu n'uko ikirere gisa.